Umubyeyi ari kubahoha agakoko n'utwatsi twabugenewe ,yambaye n'ikarita y'umweru mu ijosi, yambaye ikanzu y'igitenge, yicaye ku kirago kugira ngo abohe neza yisanzuye byose.

Bari kwenga umutobe wo mu bitoke bakoresheje intoki ,n'amakoma ,n'urwina, n'urukeri n'urubingo.

Umukecuru ari gutambuka nk'uvuye kwa muganga. Yambaye n'ibitenge n'igikapu byose mu bitenge byose n'aga... n'agakapu n'agakoni na mwamini z'umuhondo. N'agapira k'umukara ,yambaye nk'agapfukamunwa n'umwitero wo mu gitenge.

Bisi itwara abagenzi benshi cyane iparitse mu muhanda, igiye kugera kuri zebura korosingi, imwe yo mu bwoko bwa Keyibiyesi cyangwa shirumuteto, ni ko bakunze kuyita mu kinyarwanda cy'ubu.

Mu isiganwa ry'amagare hari imodoka hagati, abantu buzuye umuhanda, imodoka ikurikiye umukinnyi cyangwa se umwe uri mu irushanwa ry'amagare, bisa naho yananiwe cyane, n'abantu bari ku ruhande rw'umuhanda bari gufana.

Irushanwa ry'amagare, bari gukata ikorosi y'umusozi cyane bakase bahengenekereje harimo umurongo w'umuhondo. Igikuta k'icyatsi.